Ubucuruzi n'ikintu cyiza cyane muri ubwo bucuruzi harimo nko gucuruza inzoga, ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Muri ubwo bucuruzi rero bituma tubona amafaranga ndetse bugatuma tubaho neza tukabasha gusangira n'inshuti zacu.

Dukunda ubucuruzi, mugukunda ubucuruzi twabona nko gucuruza iki? Inzoga, inzoga ni ikinyobwa gikundwa na bantu benshi kandi kiryoha, dukunde kugicuruza kuko gituma abantu baruhuka mu mutwe, bakabasha kwishima ndetse bagasangira n'inshuti zabo.

Dukunda gukora imirimo myinshi itandukanye. Muri iyo mirimo harimo nko gutwara imizigo, gutwara abagenzi ndetse n'ubucuruzi . Mu gutwara imizigo, tubasha gutwara imizigo tuyivana hamwe tuyijyana ahandi. Muri uko kuyijyana ahandi biduhereza iki? Amafaranga tugafasha n'abandi kubona ibyo bifuza.

Dukunda gukora imirimo itandukanye, muri iyo mirimo harimo ubucuruzi ndetse n'ubuhinzi, mu bucuruzi usanga ducuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye harimo inzoga, ibiribwa n'ibindi n'ibindi.

Dukunde umurimo, gukunda umurimo tukabona aho gutwara ibinyabiziga ,mu binyabiziga harimo moto, imodoka ndetse n'igare, gutwara ibinyabiziga cyane cyane nka moto, dutwara abantu, dutwara imizigo tuyijyana hamwe tujyana ahandi ,bidufasha kubona amafaranga, kandi nanone dukunda ubucuruzi. Ubucuruzi tubonamo amafaranga menshi atandukanye, kuko tuba dufite ubwoko bwinshi bw'ibicuruzwa.

Dukunde gutembera kuko bituma turuhura turuhuka mu mutwe cyane cyane tugatembera nko mu mahoteli. .Amahoteri adufasha kuruhuka, gusinzira neza ndetse tukishima cyane.